Imodoka ya diferenti, egisipuresi yakoze impanuka, igonze igare imbere hari umuntu uhagaze, ndetse hakaba hari na polisi inyuma yayo hakaba hari indi modoka, diferenti egisipuresi.

Abantu benshi bicaye hamwe basa naho bari kwa muganga, bicaye bategereje serivise, hari abafite abana batoya, aho bicaye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'icyatsi.

Abakozi, abaganga, bari mu nama ijyanye n'imikorere y'ibitaro ndetse n'uburyo bafasha ababagana mu bitaro byabo kwa muganga, uyoboye inama bicaye ku ntebe, ni babiri bayoboye inama, afite imashini ari kwifashisha mu kubasobanurira.

Abantu bagera ku munani, bahagaze imbere y'imodoka y'ibangukiragutabara, harimo uwambaye baji, abantu kandi hakaba higanjemo, abagabo ndetse n'abagore, abagore akaba ari babiri ndetse abagabo, akaba ari batandatu.

Ibiganza bibiri byose bikaba byambaye ga, izo ga zikaba zisa umweru, kandi zikaba zifashe ikiganza cy'umwana ziri ku masuzuma ikibazo yaba afite ku rutoki.

Inzu bavuriramo ifite jeride hanze, ikaba ifite n'imbuga nini, ikaba igizwe n'amatafari ahiye ndetse ikaba isize n'irangi ry'umweru n'amadirishya y'umweru ndetse n'inzugi z'umweru.

i Inzu yubakijijeya amatafari ahiye, ifite idirishya risizeho irangi ry'umuhondo, ikaba ifite mo kizimyamwoto ndetse ikaba ifite mo giliyaje, harimo na rido.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa arimo juwisi n'amazi, hakaba harimo n'ushinzwe umutekano by'umwihariko polisi y'u Rwanda.

Ubukangurambaga ku kurwanya Malariya urinda umuryango wawe ko wayandura, ukozwe n'abantu benshi, imbere hari abafite bandelore yanditseho ngo: "Birakureba, rinda umuryango wawe Malariya."

Inama rusange igizwe n'abantu benshi, mu cyumba cyateganyijwe, kikaba kirimo abantu ingeri zose, bicaye ku ntebe, intebe z'umweru za pulasitike, imbere yabo hakaba hari umuntu umwe w'umugabo, urikubaha inyigisho yabateguriye.

Ikiganza gifite urupapuro rurimo umuti wa kinyarwanda, uwo umuti ukaba usekuye, ukaba ufite ibara ry'icyatsi kandi ukaba, ari ifu.

Ni umusaza wicaye akaba afite ibyatsi byinshi mu ntoki n'ibindi iruhande rw'iwe, bikaba biri ahantu atunganyiriza imiti y'iwe.

Umudamu wicaye yambaye umutuku, afite akantu kameze nk'inkoni mu ntoki ,arimo aratunganya ibintu bitandukanye, inyuma ye hari etageri irimo amacupa agiye arimo imiti itandukanye.

Inzu ebyiri z'aho bafatira imiti n'aho bisuzumishiriza hakaba hari kandagira ukarabe, hari jaride irimo indabo z'icyatsi n'izindi z'umuhondo, ikaba iyo inzu yiganje mu ibara ry'ubururu.

Umuntu w'umudamu, wambaye agapfukamunwa, wambaye ingofero y'umweru yabugenewe mu kazi, akaba yambaye n'itaririya y'umweru nayo yabugenewe, mu kazi.

Abarwayi barwariye kwa muganga bari ku bitanda byabugenewe, icyo cyumba barimo kikaba kigizwe n'ibice bibiri, bikaba bitandukanyijwe n'igikuta kiriho irangi ry'umuhondo.

Umuntu wambaye impuzankano z'ushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, ari kuvura umurwayi uryamye ku gatanda, harimo aho baryamye, hari ibikoresho bitandukanye by'ibanze mu buvuzi.

Izu ifite ibara ry'ubururu, ikaba igizwe n'imbuga nini ihagazemo umuntu wambaye mikenyero afite indangururamajwi, hakaba hahagaze n'abandi mu mpande ndetse n'imbere y'inzu, abantu benshi ndabonamo umudaso wambaye imyenda y'icyatsi n'undi wambaye ikositimu ndetse n'abandi bantu muri rusange.